Aho banywera inzoga z'amoko bose, za pirimusi, za mitingi, ziba mu makesi haha hariho udutebe twiza tw'umutuku, hanatwikiye, haba hari ibiryo by'amoko yose, harimo n'inyama.

Ndikubona ntebe z’umatuku，mbona n’amakesi y’inzoga， haratwikiye， aho intebe ziri，aha ngaha wagira ngo bagiye kuhanywera inzoga，niho banywera cyangwa hagiye kuba ibirori，abantu baze bahanywere.

Kabare bacururiza inzoga zo kunywa z'amoko yose yaba purimusi na sikoro, za byeri na za mitsingi ziba mu makese. Iyo urikumva ufite icyaka ujyayo kayigura ukayinwa.

Mu bijyanye n'ubucuruzi harimo abacuruza za kabari, aho bajya kugura ibyo kunywa inzoga zitandukanye z'amoko yose, za Pirimusi na za Mitsingi, abashaka kwica icyaka no kuganira bajya muri kabare bakaganirirayo, abazicuruza bibabyarira inyungu zitandukanye, babona amafaranga yo kwikenuza.

Ahangaha ni muri hoteri, aho abantu bajya kurara, bakarirayo, bakananywerayo, abashaka bakuruhukirayo bajyayo, bakabacumbikira bakamararayo iminsi myinshi, bakishura amafaranga bagataha.

Tujya kuhagurira ikawa yo kunywa, cyangwa iyo kujyana iwacu tukayiteka. Ni byiza cyane ku buzima bwacu, kuko ituma mu nda hamera neza, igatuma tutanagira ibitotsi byinshi igihe turi mu kazi.

Ni iduka wagira ngo riri ahantu mu mu mugi，bacuruza imyenda y'abagabo， n'inkweto z'abagabo zo kwambara zifunze， uzishaka niyo wajya.

Aho bajya kugurira ibikoresho bitandukanye nk'ibyibo by'amoko menshi, bakoreshabari gusura inshuti n'abavandimwe ,cyangwa bakabijyana mu bukwe batwereyemo impeke ,nk'ibishyimbo ,amashaza ibigori n'ibindi.

Aha ngaha niho tujya dushaka kugura amayinite, cyangwa kubitsa amafaranga kuri simukadi, cyangwa dushaka kohereza, muri Kano kazu haba hicayemo umuntu ukajyayo ukamubwira ibyo ushaka akabigukorera.

Mu kabari, Aho bajya kunywera inzoga z'amoko yose zo mu makesi, nk'iz'ibyuma. Hariho na resitora bajya kuriramo ibiryo by'amoko yose harimo n'inyama n'ibindi byinshi.

Tujyayo tugiye gushaka amacumbi yo kuraramo umunsi umwe cyangwa iminsi myinshi, tugatanga amafaranga bakaduha icyumba cyo kubamo, gishashe neza kiriho na matora n' amashuka ameshe asa neza.

Iduka riranguza imiceri na kawunga, ukarangura ukajya gucuruza cyangwa ukabigura ukajya kubirya, hirya hariho n'akandi kazu kariho umuntu w'umudije utanga indirimbo kuri za furashi no kuri memorikadi.

Aha ngaha ni ahantu bacururira ibikoresho bya amaparasitike. Ndi ikuhabona inkweto zo bita bote ,ziba ari ndende bambara bari guhinga cyangwa bari kuragira inka. Ni ho baranguriza n'ibindi bikashoresho bitandukanye.

Ya mazu y'amataje aba agerekeranyije, imwe iri hejuru y'iyindi ujyamo ukazamuka muri esikariye ,cyangwa ukurira muri lisanseri ni icyuma ujyamo ugakanda imibare, kikakujyana kikakugeza iyo ushaka kujyamo.

Hari inzu bacururiza imitako, bambika abageni，bakora indabo，bacuruza impeta，bagira n’imodoka z’ubukwe barazikodesha，， cyangwa se batiza， ibyuma by'imiziki，bacurangira abantu mu birori.

Iki ngiki ni icyapa kiri kwamamaza ishuri, cyangwa ahantu bigisha icyongereza ku ubuntu, nta mafaranga babasabye, umuntu ajyayo atazi icyongereza, bakakimwigisha akakimenya.

Aha ni aho abantu bajya. Abashaka kunywa bakica icyaka, bakanywa inzoga zitandukanye cyangwa bakarya ibiribwa za burushete , inkoko inkwavu. Bakamererwa neza .......

Aha ngaha ni ahantu batunganyiriza imitatsi，bakayidefiriza ikanyerera， cyangwa bakayogosha， cyangwa bagasuka bagashyiraho bya bintu by'ibigozi，bakanasuka ibintu byitwa derede.

Muri iyi nzu bacururizamo imyenda itandukanye harimo: n'iya siporo, iyamasengeri n'iy'amajezi, iy'amakabutura n'imipira, jariho n'akazu ka emutiyeni, habamo umuntu utanga amayinite no gushyira amafaranga kuri mobire mani.

Mu bucuruzi habamo abacuruza intebe zo kwicaraho ziboshwe mu biti, bagacuruza ibikapu na za tapi zo gushyira hasi, n'ibitambaro bitega, n'amakuvureri yo kwiyorosa, n'amashuka. Bibateza imbere bigatuma n'Igihugu cyacu gitera imbere kuko batanga imisoro.

Iri ngiri ni iduka bacuruza inkweto zifunguye z'inkorano zikozwe mu ruhu, izi nkweto ziba ari nziza cyane zirakomera abantu barazigura, ukaguramo iz'uwo ushaka ubundi ugatanga amafaranga, ukagenda ukiyambarira ukaberwa.

Amasoko afite akamaro kanini cyane ku buzima bwacu bwa buri munsi, tujya kugurirayo imyenda yo kwambara, amashuka yo kwiyorosa, n'udukapu two gukoresha. Ababicuruza nabo babonamo amafaranga yo kwiteza imbere, batanga umusoro ugatuma igihugu cyacu gitera imbere.

ahangaha ni ahantu hari akabari gacururizwamo inzoga zitandukanye, za pirimusi na za byeri, kandi banariramo ibiryo birimo nk'inyama z'inkoko n'ibikwavu, n'amafi n'amafiriti, ubundi bakabona amafaranga.

Iduka tujya kuguriramo imyenda yo kwambara amakanzu, amashati n'amakote y'imbeho abayicuruza, babona amafaranga ,bagatanga nimisoro , ikagira uruhare mu iterambere ry'igihugu cyacu.

Ahangaha hameze nk'aho ari mu mujyi, uriya muhanda wa kaburimbo umeze neza, uriho abacuruza amayinite ya Emutiyeni na zaa tigo bashaka no kohereza amafaranga bakabigukorera, hariho n'amazu, bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye.

Mu isoko ry'imbuto ni ho bajya kugura imbuto zo kurya zirimo imineke ya kamaramasenge na za goromisheri, n'ibinyomoro n'ibipapayi n'myembe yo kurya.

Aka kazu ni aka emutiyene，ni ko tujyaho，iyo ushaka kugura amayinite，cyangwa koherereza umuntu amafaranga， cyangwa se ushaka kuyabika kuri simukadi yawe，ikubaruyeho，ya terefone，niho ujya， umuntu usanzemo arabigukorera.

Aha ndi kuhabona akazu gatoya kateye irangi ry'ubururu, bacururizamo ibintu bitandukanye, inyuma ndi kubona hari n'andi mazu y'abakire ,asakaje amabati y'umutuku . Hejuru yako kazu hari igiti cy'avoka zitari zera.

Aha ni aho bacuruza za telefone, iyo ushaka kuzigura ujyayo bagira na ya yandi manini bita amataci, na tumwe dutoya udukeneye ntahandi wajya, ni ahangaha bakakugurisha iyo ushaka.

Iyo nzu ibamo akabari na resitora bajya kuriramo nk'ibiryo by'ibirayi, bikase, bikaranze cyangwa inyama, bakanayweramo inzoga z'amoko yose.

Iduka tujya kuguriramo amatelefone atandukanye y'amoko yose, na yayandi manini ya tachi. Abazicuruza babona amafaranga bagatanga n'imisoro, igihugu cyacu kikabona uburyo bwo kubaka ibikorwa remezo; nk'amashuri n'imihanda n'ibitaro.

... bajya kuguriramo imikufi, impeta zo kwambara. uzicuruzaga abona amafaranga yo kwikenuza, agatanga n'umusoro, ubukungu bw'u Rwanda bugatera imbere, hakaboneka amafaranga yo gukora ibikorwa remezo bitandukanye mu gihugu cyacu.

Hariho inzu batunganyirizamo imisatsi, bakayidefiriza cyangwa bakayiteramo kanta igasa n'umukara, cyangwa bagashyiraho byabindi bimurika by'ibigozibirebire, cyangwa ukagenda bakawugira muremure.

Aha ahantu haba akabare na resitora bateka ibiryo ujyayo, ugatanga amafaranga bakaguha ukarya, ukanagura inzoga zo kunywa z'amoko yose. Iziba mu makese cyangwa iziba mu bindi bicupa by'ibyuma.

Aho bacururiza ibicuruzwa bitandukanye harimo amakara yo gutekesha, amafu yo gutekesha igikoma iba ari imvange y'ibigori, iy'amasaka, iy'ingano, iy'uburo ujyayo ushaka ko bakuvangira ukabivuga barabiguha cyangwa waba ushaka ubwoko bumwe na bwo barabuguha ukishyura ugataha.

Aho bacururiza ibikoresho dukoresha ducometse ku muriro harimo amapasi, amaterefone ya taci na za kopiyuta zose niho tujya kuzirangurira cyangwa kubirangurira.

Aha ngaha habaho akabari, niho abantu bajya kunywera inzoga z'amoko yose zitandukanye cyangwa bakajya no kuharuhukira, bajya kuganirira n'inshuti n'abavandimwe, bagasabana.

Aha ngaha ni aho bacururiza impeta, nizo bambara mu ntoki, iyo umuntu agiye kwambika umuntu we impeta, ajya hano akabaza ibiciro bagurisha akayigura, akajya kuyimwambika.

Mu bihingwa byiza cyane bikunzwe harimo n'ibirayi. Bifite akamaro kuko ababihinga babonamo amafaranga menshi, barabigurisha, n'ababicuruza bajya kubirangura. Bakabicuruza mu masoko atandukanye, bagatanga umusoro ku Gihugu cyacu na bo bakiteza imbere. ubwabo

Noneho umuntu yajya guhaha ashaka guteka ibirayi, inyanya, ibitunguru n'ibitoki, agatanga amafaranga akajya guteka. Uramutse ukeneye ibyo guteka waza ahangaha hariho umudamu uri kubicuruza.

Iyi ngiyi ni korali yagiye mu gitaramo cy'ahantu bagiye kuririmbayo wagira ngo ni nijoro harimo n'ibitara bifite amabara yose y' umutuku, y'icyatsi ,y'umuhondo bari kuririmba.

Mu bigo by'imari harimo za banke dufite nyinshi zitandukanye, harimo izitwa za Beka, za Popireri n'izitwa Ungukashaka, tujya kubitsayo amafaranga yacu kugira ngo agire umutekano, tukajya gufatayo n'inguzanyo zo gukoresha imishinga itandukanye.

Iyi ni imwe muri ya mazu meza cyane, aba afite n'amazi yo kogera mo imbere ngo bakita pisine. Umuntu ajyamo akoga, yamara koga akajya mu nzu, akambara neza akajya iyo ashaka.

Izi ndobo zigerekeranyije ni zo bajugunyamo imyanda itandukanye, ahandi biragarako ari mu isoko . Uriya mufuka wuzuyemo ibicuruzwa baje gucuruza cyane cyane imyaka yeze nk'ibishyimbo, ibirayi, n'ibigori.

Mu isoko tujya guhahiramo imboga z'amoko yose, harimo: inyanya, intoryi, na karoti, nimiteja, n'insombe. Abazicuruza babona inyungu m'uburyo bw'amafaranga bakiteza imbere bagatanga n'imisoro ku gihugu cyacu.

Iyingiyi ni imyeyo bakubuza ahantu hasi, iyi myeyo barayigura mu isoko, abantu bajya kuyica ku biti bakayifunga gutya, bakajya kuyicuruza.

Iduka ricuruza imyenda itandukanye.ly'ababyeyi, iy'abana, iy'abagabo, n'iy'abagore. Tujyayo ariyo tugiye gushaka. Ujyana amafaranga yawe ukayabishyura, nabo bakaguha imyenda ugataha.

Mu isoko bacururizamo imyenda ya caguwa itandukanye, amakabutura, amapantaro n'imipira, ujyamo ugacagura uwo uri kumva ushaka, wawushima mukumvikana amafaranga, ukawishyura ukawutahana.

Tugurayo ibitambaro byo ku dodeshamo imyenda z'amoko yose; amakanzu, ngutiya, amapantaro, bibaga bifite amabara menshi adutandukanye imituku, imikara, ubururu, n'icyatsi.

Izi ngizi bazita za keke, bazikora mu ifarini n'amata n'amavuta, bakajya kuzicuruza, tukazigura, tukazirya, ni nziza cyane ku buzima bwacu, ziranaryoha.

Iri ni iduka ricuruza ibyo kunywa bitari inzoga, bidasindisha, harimo amata y'inka yo kunywa, harimo amata y'inka y'ifu bagura, ubundi bakagenda bakayashyira mu mazi, ubundi bakanywa.

Mu isoko ry'ibiribwa ni ho tujya guhahira imbuto n'imboga, ndikubona hariyo ibitunguru ,za karoti n'inyanya, bya pavuro ibyo byose ni ho tujya kubigurira.

Iduka baguriramo ibikoresho by'isuku byinshi cyane bitandukanye. Habamo amasabune yo gukaraba, amavuta yo kwiyisiga, uburoso bogesha amenyo. Ubicuruza abona amafaranga yo kwiteza imbere kandi atanga n'umusoro ku gihugu cyacu.

guhahiramo imboga z'amoko yose habamo: intogi, n'inyanya, n'insombe, n'imiteja. Abazicuruza babona amafaranga yo kwikenuza muyindi mishinga itandukanye, batanga n'imisoro bigatuma igihugu cyacu gitera imbere.

Isoko ry'ibitunguru ujyayo ushaka kubigura, bifite akamaro kanini barabikarangisha cyangwa bakabikatira ku biryo bakabirya, biba biryoshye cyane.

Aho tujya guca imboga ndi kubona harimo isombe. Batera ibiti bigakura, bakabica, bagasoromaho amababi maze bakayasekura mu isekuro cyangwa bakajya kuzigurisha, bakajya kuzibetesha ku mashini isya.

Izi ni imyembe zera ku biti bakazica bakazijyana mu isoko bakabona amafaranga. Zibarizwa mu bwoko bw'ibiryo byitwa imbuto zirinda indwara.

Aha ndi kubona ari mu isoko, niho tujya kugurira imyenda z'amapantaro n'imipira n'amashati n'amakabutura, ariko ya caguwa ku giciro kitworoheye.

Ni isoko rimera ahantu hanze ahantu hatubatse. Riri ahantu ku ga santere. Abantu bajya guhahira ibiryo byo guteka cyangwa se wasarura imyaka yawe ,ukayijyanayo bakayirangura ,bakaguha amafaranga.

Aya yo ni amavuta tujya kuyagura tukayisiga mu maso, yitwa igikotoro kugira ngo umubiri wacu umere neza, harimo na yo basiga mu musatsi ukanyerera, ukamera neza, ugasa neza.

Ibingibi babyita ibyombo; ibikoresho byo mu gikoni, harimo: amakara batekeramo amafiriti, n'amarushe bagabuza, birimo n'amasahane yo baririraraho n'ibikombe byo banyweramo.